Icyumba cy'isuzumiro kirimo abaganga batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yaho hari ameza, hari ikaramu, harimo buro, hari umuti wica udukoko, hari icyo kunywa, bamwe bari kwandika, undi ari kwita ku barwayi yambaye ga, yambaye itaburiya ,bigaragara ko hari ubwirinzi bukomeye.

Icyumba kigali cyisanzuye kirimo ameza, kikabamo intebe, kikabamo imitako, kirimo abantu babiri, umwe ni umugabo wambaye ishati, wambaye ipantaro, ufite imbago, ari kumwe n'umuganga umufashe ku rutugu, ari kumwerekera uko azajya akoresha imbago.

Ku bitaro hari icyumba kigizwe n'amadirishya, kigizwe n'inzugi z'ibirahure, kigizwe n'utumeza, kigizwe n'akabati, kigizwe n'abarwayi babiri batandukanye baryamye kuri matera, harimo n'amazi, abaganga bari kubitaho, hari n'imashini zipima ubuzima bw'abarwayi mu buryo bugiye buhindagurika umunsi ku wundi.

Umukinnyi wambaye supuresi z'umweru, ikabutura ya siporo irimo amabara y'umukara n'umutuku n'umupira, ari kugendera ku kagare gatoya ko hasi, impande ye hari imipira itatu; umupira w'umutuku n'uw'ubururu.

Ikirangantego cy'itsinda ry'abakina karate kirimo ibara ry'umuhondo kikagirwa n'abantu babiri umwe wambaye umwenda w'ubururu, undi wambaye umwenda w'umweru bose bafite imisatsi y'umukara kandi icyo kirangantego gifite n'uruzi ruzengurutse.